Umwana w'umuhungu muto uhetse igikapu ari gusuhuzanya n'umugabo muremure, mukuru, w'umwirabura, ku ruhande rwabo handitse amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza.

Iduka rimanitsemo amakanzu y'abagore, ririmo umugabo w'umwirabura uri guseka, uri kumwe n'umugore w'umuzungu ufite mudasobwa ku meza.

Iduka rigizwe n'imyenda y'abagore n'abakobwa, harimo amakoti magufi, amashati, udupira, amapantaro manini, amakanzu n'inkweto.

Iduka ricuruzamo amashati, amapantaro, inkweto, imipira, hejuru hashushanyijeho ibyo bacuruza.

Abagabo babiri bambaye amashati n'amapantaro bahagaze imbere y'imodoka bafite icyapa kiri mu ishusho y'urufunguzo kiriho amazina yanditseho Akagera.

Abantu bane barimo abagabo batatu n'umukobwa umwe bahagaze imbere y'imodoka bafite icyapa kiri mu buryo bw'urufunguzo cyanditseho Akagera.

Inoti ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda, ivuye muri banki nkuru hejuru hariho agaseke, hasi iyi imisozi iri ku kiyaga.

Urugi rw'umweru, hagati harimo ibicupa bibikwamo amazi bifunzwe, hariho ingufuri ebyiri zibifunze byose uko ari birindwi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ahagaze imbere y'abana babiri, bari kunywa amata mu bihure, imbere yabo hari utubido tubiri dusa umweru.

Umukobwa w'igikara uri guseka ufite imisatsi y'umukara ndetse na terefone mu ntoki handitsemo amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo wambaye ingofero n'amadarubindi, ufite telefone ndetse n'umugore ufite imisatsi myinshi, bari kutwereka uburyo wakohereza, ukakira amafaranga, ukoresheje murandasi.

Umugore n'umugabo bari kureba muri terefone, berekana ko ushobora gukanda akannyeri, gatandatu, karindwi, rimwe, urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza y'ibyo ushaka gukora.

Mudasobwa irimo amashusho yerekana ikirangantego cy'igihugu cy' u Rwanda, ikerekana ikindi kirangantego cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro.

Umugabo uri kubara amafaranga ayashyira ku meza, iruhande rwe hari igikoresho kimufasha kuyabara ndetse n'ibipapuro biteretse hasi.

Umuntu wambaye impeta uri kubara amafaranga, ayashyira kumeza harimo inoti zisa ubururu, icyatsi ndetse nibiceri byinshi bitondekanyije.

Abakobwa babiri umwe yambaye agapira k'umutuku undi yifashe ku mutwe, bahagaze hasi y'icyapa cyandikishijwe ururimi rw'Icyongereza.

Mu muryango ufunguye mo imbere harimo umuntu, hejuru no ku mpande hariho amagambo yanditseho, agaragaza ko bahakorera ivunjishwa ry'amafaranga.

Icyumba kirimo amarido, intebe zirimo imisego, sima isa icyatsi n'inkuta zisize amabara y'umuhondo.

Icyumba kirimo amatara abiri ari kwaka, ndetse n'utubati tubiri duhagararanye, dusize ibara rya shokora.

Intebe enye ziri kumwe n'imeza yazo, byegereye umuhanda wa kaburimbo urimo ikamyo ndetse n'ipikipiki n'uwuyitwaye.

Icyumba cyo kuriramo igihe wasohokeye ahantu, kirimo intebe, imeza iriho imitako, amatara hejuru, amadirishya afunguye.

Ahantu heza harimo ibiti ndetse hatemo n'indabyo, harimo intebe, imeza n'imitaka birinda abahasohokeye kugerwaho n'izuba.

Inyubako ndende cyane ndetse ngari, iri kwaka amatara, hanze hari umuhanda wa kaburimbo, uri kunyurwamo n'imodoka ndetse n'abantu.

Inyubako ndende nziza cyane ifite ibirahuri bibonerana, hasi hashinze ibiti bitari birebire ndetse n'amakaro.

Ipikipiki iri imbere y'umuryango, ugaragaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa RADIANT, cyerekana aho gikorera na nimero wabahamagaraho.

Igipapuro cy'umweru cyandikishijwe mu mabara y'umukara, ubururu n'umuhondo, kivuye muri banki nkuru y'u Rwanda, cyerekana amakuru y'ushaka guhabwa inguzanyo cyangwa se kwishyura.

Umukobwa wishimye cyane uri guseka, wambaye ikanzu y'umukara, ufite ikarita, terefone ndetse n'ibikapu, ari kutwereka ukuntu bahaha byoroshye kuri murandasi.

Isoko rinini, risa neza, ririmo ibyo guteka nk'imbuto n'imboga, ririmo urusenda, amashu, ibitunguru, ibinyomoro...

Ababyeyi bari mu bucuruzi bw'imbuto n'imboga, bari gucuruza imineke, imbere yabo hari umukecuru uri ku mbago uhagaze...

Abantu batatu begeranye harimo umukobwa wambaye umupira w'umuhondo usukikije. n'undi muhungu ufite terefone, wambaye ikabutura isa ubururu.

Umusore wambaye igikapu cy'umukara n'agapira k'umweru, ari hasi y'akazu gato k'umuhondo kerekana ko hari umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho hano mu Rwanda.

Ni inzu nziza cyane igeretse kabiri ifitemo amabara y'umweru n' ikigina ikikijwe n'ubusitani, harimo n'ibiti, ndetse n'indabyo z'umutuku.

Inzu ndende icanye amatara haba mu nzu no hanze, ifite inkingi ndende zisigishijwe irangi ry'umweru...

Urugi rwanditseho amagambo agaragaza icyo aho hantu bahakorera ndetse hariho n'amashusho y'ibintu bakora, harimo ubwubatsi, kuranga amazu, ubukerarugendo ndetse hariho n'amasaha bakorera.

Inzu ifite amarangi y'umweru, amadirishya abonerana, hanze hari kugaragaramo ibyatsi ndetse n'imbere harimo ama esikariye.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bipanze harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ufite ibicuruzwa mu ntoki yahashye.

Isoko rinini ryo guhahiramo ririmo abantu baje guhaha, harimo ibikoresho bifasha mu gucunga umutekano w'abari mu nzu ndetse n'abaje guhaha.

Ikarita yubwishingizi yandikishijwe amagambo asa icyatsi ndetse n'ay'umukara, mo imbere hashushanyijemo abantu batandatu harimo umwe uryamye ku buriri.

Abagabo babiri bakuze bambaye amakoti n'amapantaro, bahagaze imbere y'abakobwa babiri bambaye imyenda isa ubururu.

Inyubako ndende cyane igeretse inshuro icyenda, ifite amabara y'umuhondo n'andi y'ubururu ku birahure ndetse hasi hamanitseho idarapo ririmo amabara y'ubururu n'umuhondo.

Icyumba kirimo abantu bateraniye hamwe, abagore n'abagabo, harimo abambaye utupfukamunwa, abandi bicaye ku ntebe, hariho impapuro zimanitse ku nkuta zombi.

Isoko rinini ririmo ibyokunywa bitandukanye bidasembuye, harimo ibifite amabara y'icunga, ibifite amabara y'umukara, ibifite amabara y'icyatsi.